Amatara ya tarafiki ni meza cyane .Akunda kuba mu mujyi ,agabanya impanuka iyo yatse umutuku imodoka zihagarara yakwaka icyatsi, zikagenda kugira ngo badakora impanuka.

Ndabona uyu mupolisi ari gutangira imodoka mu muhanda, kugirango arebe ibyangombwa byabo niba byuzuye neza, kugirango bagere iyo bagiye amahoro nta kibazo bagiriye mu nzira na gitoya.

Abasekirite iyo bitojeje neza bagakora amafunzo akomeye baturindira umutekano ,bacunga igihugu abaturage bakamererwa neza ntibagire ikibazo na kimwe.

Inama y'akagari iyo yabaye abaturage baricara bakumva umuyobozi ari kubabwira, umupolisi iyo ari kubabwira ijambo ry'ibanze baba bitonze cyane, bakamutega amatwi bakumva amabwiriza ari kubabwira.

Abasirikare b'u Rwanda barinda umutekano w'igihugu neza, abaturage bakabaho neza mu gihugu, bakabaho ntacyo bikanga kubera ko abasirikare babarindira umutekano wabo neza.

Abanyeshuri bagomba kwiga ibintu bitandukanye, bakiga ibintu byabafasha mu buzima bwa buri munsi, bakiga uburyo gaze iratse yatse bayizimyamo umuriro uyifashe, bakiga nikoranabuhanga risesuye.

Umugore w'umuyobozi w'umupolisi afata abajura akajya kubafunga, yambaye ingofero y'umukara iriho n'ikirango cy'igihugu. Iyo afashe ibijura byinshi, bamuha amapeti, akaba umuntu w'icyitegererezo.

Moto yafashwe n'inkongi y'umuriro, ishobora gutera impanuka, igatwika ibintu byegeranye nayo, ikaba yatwika n'abaturage, bityo bagomba kuyizimya, bagashaka amazi bakayimenaho.

Abapolisi batoza imbwa, kugira ngo nibajya gusaka ibintu bitemewe mu gihugu, bazifashishe bari kuzinukisha ahantu ngo bumve niba harira ibintu bitemewe.

Abasirikare barinda umutekano w'igihugu, bambara iniforome z'icyatsi, baba bafite n'imbunda, nta muntu wemerewe kubakinisha, kubera ko bafitiye akamaro kanini igihugu cyane, bayja kurasana nabanzi b'igihugu, abasirikare bafite akamaro kanini cyane ku baturage.

Abagore bicaye hamwe bari kuganira, bibafasha kwiteza imbere ibintu byose ntibabisabe abagabo babo, bagatinyuka bagakura amaboko mu mufuka bagakora.

Mu nteko y'abaturage haba hari nk'umuyobozi ugomba kubahuriza hamwe, akababaza ibibazo bafitanye bakabisubiza, barangiza abafitanye ibibazo n'amakimbirane bakayakemurira aho ngaho bahagaze.

Umugore iyo ari umuyobozi, yambara amarinete, akayobora abaturage neza , agakoresha inama ,agafata mikoro kugira ngo bose bumve ibyo ari kuvuga , bakamutega amatwi.

Mu nama y'abayobozi bakomeye cyane, bagomba kuba bicaye ahantu heza, hasa neza, bakavuga ku ngingo z'ingenzi z'ibyo bagiye kuganiraho, barangiza bakavuga ibibazo biri mu karere no mu mirenge, bakabiganiraho bakabikemura.

Mu gihe habaye inama buri mugabo n'umugore bagomba, gufata mikoro bakavuga ikibazo cyabo ntihagire ugira ipfunwe ryo ku kivuga, ntihagire ubeshyera undi bakabana neza mu nama ntakibazo bagize.

Uyu musore ko yambaye neza! Afite inanga mu ntoki yambaye umukenyero w'intore n'urunigi mu ijosi n'ishati y'umukara araberewe.

Ibihaza biraryoha cyane abantu benshi barabikunda, kubera uburyohe bigira bivura igifu, byongera amazi mu mubiri, babitekana n'ibishimbo, bakabirya abantu benshi barabikundaga.

Intore zo kwa Masamba zirabyina cyane, abantu bakunda kuzireba kubera ukuntu ziba zambaye, zarambuye amaboko, zimeze neza cyane, iyo bari kuzivugiriza ingoma, umuntu wese yakwifuza kuzireba.

Abantu iyo bari gukama umutobe bawukamira mu muzinga bagashyiramo ibyatsi, bakavuguta abantu barawunywa bakumva uryoshye kubera uburyo uba ukoze mu mineke.

Abagabo benshi bakunda inka z'inyambo, kubera ko zigira amahembe maremare, ziberwa no kuzisohokana mu bukwe, zigira ibara ryiza cyane abantu bakunda, inka z'inyambo, zitanga umukamo.

Abami ba kera bicaranaga n'abagore babo bakabogosha ibisunzu bakambara n'imikenyero bakitonda bafite n'abagaragu babagaragiye.

Ndabona ikintu gikozwe mu byatsi gisa umukara harimo n'ibara risa n'igitaka. Kikaba gikoreshwa mu bikoresho gakondo bigakurura ba mukerarugendo bakazana amafaranga.

Kera abakecuru bafataga inkono, bagatereka ku ziko, bagatsimbamo ibishyimbo, iyo batekagamo inyama, zararyohaga cyane, bakazirisha umutsima w'amasaka, bikaba akarusho.

Amacumu agomba kuba asongoye hejuru kugira ngo umuntu ugiye kuyahigisha ahige neza ntakibazo afite, kugira ngo nafora inyamaswa ahite ayihamya, ayitahane iwe ayibage.

Ikirago kiba kiboshye mu byatsi by'ibikangaga, babikura ku mugezi, barangiza bkabyanika, bakabihondagura, abakecuru bakunda kubiboha bagashyiramo n'utudeyi, kugira ngo kigire amabara meza.

Ndikubona ikintu gisa n'umweru n'umukara, kirimo utuzeru tuzengurutse. Kikaba gifite n'inkoni hejuru, n'inkingi, kikaba gifite n'agaseke ku ruhande.

Mu bikoresho gakondo harimo: Urusyo n'ingasire baseragaho ifu， hakabamo intara n'inkoko bagosoreragaho amasaka n'ibishyimbo，hakabamo n'ikibo batwereragamo.

Intore z'abagore iyo ziri gusimbuka mu kirere, ziri kubyina igishakamba ziba zishimishije cyane, zambaye imikenyero y'umutuku, abantu bakunda kuzireba kubera ukuntu ziba zimeze ziba zishamaje.

Isekuru ni ingirakamaro cyane, abantu benshi bayifashisha bari gusekura isombe, isekuru ibajijwe mu giti, iba isa neza ifite n'umuhini wayo, ni igikoresho cya kera bakoresha.

Kuboha ibitebo bituma abagore biteza imbere cyane, bakabiboha mu budodo, no mu byatsi bita imigwegwe. Bikaba ari byiza cyane kubera ko babitwaramo imyenda, bavuye guhaha cyangwa ibirayi byo guteka.

Inkongoro ntisaza iraribora bayicundiramo amata bakayanywa. Araryoha cyane iyo ugahawe n'umushumba uzi gukama. Biba akarusho iyo inka yahaze.

Intore iyo zifite abakaraza zikunda kubyina ziri kuzunguza imigara zifite n'icumu, zambaye n'inkweto ziriho ibintu biri kujegera, zambaye n'umukenyero. Abantu bakunda kuzireba.

Ndabona abantu bikoreye igiseke n'ibintu bimeze nk'ibibindi, bagiye gusura bagenzi babo mu bukwe bagize.

Inkono isa nabi, ikozwe mu ibumba, bakaba barayitekagamo inyama n'ibishyimbo . Iyi nkono ikaba ari iya kinyarwanda . Iyi nkono ni nziza cyane iryosha ibiryo.

Abakerarugendo benshi baza gusura inzu ndangamurage, bakareba uko zimeze, bakareba ubwiza bwazo, bakishyura amafaranga, bakayakoresha mu mutungo w'igihugu.

Kuboha ikirago bigira akamaro kanini cyane. Iyo umugore akunda kubiboha bimuha amafaranga. Ibirago babisasira abana, n'abantu bakuru babishyira munsi y'uburiri bakabiryamaho, bigatuma matora itangirika.

Inanga gakondo yitwa umuduri, bayicuranga bayirambitse ku matako. Ikaba igira umuziki mwiza cyane, ukaryohera abawumva n'abawuteze amatwi. Umuduri w’inanga uba ari mwiza cyane, ufite ibara ryiza cyane.

Umuvure bakamiragamo ibibitoki bagakoramo umotobe, umuvure iyo bashyizemo ibitoki bagakama umutobe, uba mwiza cyane ukagira umwimerere, abantu benshi bakunda kuwunywa.

Igisabo kigira imigozi ikiziritse, bagikoresha bari gucunda amata akavamo amavuta. Naho inkongoro bayinyweramo amata, igira umutemeri bayipfundikisha.

Mu bikoresho gakondo harimo: ikirago, inkongoro, igisabo n'icyungo banyweramo umusururu, igisabo bagicundiragamo amata agahinduka amavuta bakayisiga.

Mu bigega bya kera bahunikagamo imyaka, byabaga bikozwe mu byatsi biri mu mbuga, bakabikamo ibigori n'amasaka kugira ngo bizabemo bimeze neza, bakagenda bararyaho bikeye bike.

Abagore b'intore bakunda kubyina, baziritse uduti tubiri mu mutwe bambaye n'umukenyero, bakarambura amaboko biba byiza ku bantu bari kubareba, abantu iyo bari kubareba barabakunda kubera uburyo baba bari kubyinamo neza.

Abasaza na bo bagomba kuvomana isuku igihe badaha amazi, bakayashyira mu bidomoro bisa neza, bigatuma birinda indwara zirimo na za rusoka.

Inkongoro n'igisabo， babikoresha bari gucunda amata， bakayanywa，barangiza bakongera， bakabikoresha bari kubuganizamo amata， bakayakoramo amavuta， barangiza bakayisiga，bakayatekesha n'ibirunge.

Ndikubona ibintu bisa n'umweru bibajije mu giti biranditse mu ndobo, bakaba babikoresha bari kuvanga umutsima kugira ngo barebe ko wahiye neza.

Abahanzi bacuranga indirimbo gakondo baba bafite umuduri n'inanga, barabicuranga, bafite na mikoro, ukumva bari kujyana, abantu bakunda kumva indirimbo zabo.

Mu inzu y'ibwami haba ari heza cyane, haba hashinzemo ibiti n'imigano n'insika hateye amarangi anyereye. Kubera ubwiza bwaho abantu bakunda kuhatemberera.

Abakaraza bambara imikenyero n'akagozi k'umutwe, bagafata imirishyo yabo bagatangira kuvuza ingoma. Iyo bari kuzivuza, intore ziba ziri kubyina, abantu barazireba bagakoma amashyi bakishima.

Abagabo n'abagore iyo bari mu ishyirahamwe bagahinga umurima munini bibafasha kwiteza imbere, bagahinga vuba ntibagire ubunebwe bigatuma ababona umusaruro uhagije.

Abazungu iyo baje gusura Urwanda, babajyana ku nzu z'amateka, bakabaha inkongoro bakanyweramo amata, bakajya no mu nzu zubakishije ibyatsi, bagasura inzu ndangamurage, bagatanga amadovizi bakayuwubakisha imihanda.

Abagore babiri barikuboha ikirago, bambaye udupfukamunwa ,bafite n'ibintu bimeze nk'ibideyi bari kubohesha ikirago bicaye neza munsi y' umusozi.

Intore zibyina neza cyane， iyo ziri kuzunguza umugara， abantu bakazireba barishima cyane，zikinjiza amafaranga bitewe n'uko zabyinnye cyane zikabyina neza，abantu bakabyishimira.

Amacumu intore zigakoresha iyo ziri kubyina, zizunguza umugara abantu bari kuzireba bagasusuruka, iyo ziri kubyina cyane, ziri gusimbuka mu kirere, abantu barishima.

Imigano igiraga akamaro kanini cyane, bayikoresha bari kuboha udutandaro two gushyiraho ibikombe bamaze kubyoza banarayizitiza, abantu benshi bayikoreshamo n'ibisika bakabikoramo parafo.

Umukaraza w'umugabo aba afite imirishyo ibiri ari kuvuza icyarimwe ingoma eshatu, yambaye umugozi umunyuze mu gatuza, abantu iyo bari kubyumva bumva bishimye cyane, bagakomera rimwe mu mashyi.

Umuduri bawubaza mu giti bakazirikaho amakamba, iyo umuntu ari kuwucuranga, awucuranga yishimye n'abari kuwumva bakanezerwa.

Ubukwe bwa kinyarwanda bwari bwiza cyane. Iyo umugeni wa kera babaga bamutwaye mu ngobyi yaritondaga cyane. Bityo bikamufasha kubana n'umugabo we neza cyane.

Mu muco gakondo bacurangaga imyirongi zikoze mu amahembe, abantu bari kuzumva bakagira ngo ni iza kijyambere kandi ari iza kera za gakondo, abantu benshi bakunda injyana yazo.

Intore zirabyinaga cyane zizunguza umugara, iyo ziri kubyina ,haba hari umukaraza wo kuzikomera ingoma , ,kugira ngo zijyane n'injyana zifite na mayugi mu maguru zikabyina neza, abantu bakishima.

Abamikazi ba kera babaga ari beza cyane, bafite umusatsi bogoshe ibisunzu, abantu babogoshaga babaga ari ab'ibwami bakabogosha neza, abaja b'ibwami babaga barenze mu kogosha.

Mu bikoresho gakondo harimo isekuro. Bayikoresha bari gusekura isombe n'ibyatsi. Ikaba ifite akamaro kanini cyane ku bantu badafite ibibetesho bibeta isombe barayikoresha cyane.

Agasongabugari ni agatebe keza cyane, abantu benshi bakifashisha mu gikoni bari guteka ubugari na kawunga .Agasongabugari ni agatebe gakozwemo mu muvumu kaba ari keza cyane n'iyo uri kukarebesha amaso.

Intore zikunda kubyina ziri gusimbuka mu kirere, zatandaraje amaguru, zamanitse n'amaboko, zifite icumu mu ntoki, n'ingabo, ziri kuzunguza n'mugara. abantu iyo bari kuzireba barishima cyane.

Itara ni igikoresho bakoresha iyo bwije, bakagikoresha bari kureba ibintu kugira ngo babashe kureba neza, kikarwanya umwijima.

Ndabona igikoresho bakoresha mu mashanyarazi, bari gukora umuriro kugira ngo abaturage bawubone ari benshi, ikabafasha mu kubona igihe bwije.

Ibikoresho by'mashanyarazi ,bigomba kugira aho gukupira umuriro no gukukura. Kugira ngo niharamuka hagize ikibazo cyo gushya kw'inzu bahite bakupa, inzu yose idashya.

Ndabona ikintu kimeze nk'icyuma kimanitse ku gikuta kikaba ari icyuma cyiza cyane kubera ko gikozwe mu buryo bukomeye cyane. Iki cyuma ni icyuma umanika ku gikuta bakagikoresha ibintu bigiye bitandukanye.

Terebuteri bayikoresha bari gukupa umuriro bari no kuwatsa kugira ngo umuriro nujya kwaka ugiye gusha bahite bakupa inzu ntibe yagira ikibazo.

Igikoresho bakoresha mu mashanyarazi, kigomba kuba gifite ahantu hari purasitike, ku buryo umuntu ahakoze umuriro utamufata, kikagira n'ahandi h'icyuma hagomba kunyuramo umuriro, kugira ngo watse amatara.

Insinga za kuteri, bazikoresha bari kumvira muri telefone. Badashaka ko amajwi asohokera ku ruhande, bashaka kuyumva bonyine. Kuteri ziba nziza cyane iyo uri mu bantu benshi.

Iki kintu ni cyiza cyane， gikupa umuriro，kikanawongeza， kikarinda impanuka z'inkongi y'umuriro ukuntu. Kikaba kigurwa amafaranga menshi cyane.

Insengero kubera bazifunze abantu batonda ku muryango w'urusengero bagasenga. Pasiteri akabasomera ijambo ry'imana barangiza bagataha iwabo bagerayo bakarya bakaryama.

Ibyumba by'abanyeshuri bigomba kuba byubatse neza, bisa neza, bifite isuku, biteye amarangi y'umweru, abanyeshuri bakunda kwigira ahantu heza cyane, kubera ko baba bambaye iniforome nziza, bashaka n'ubumenyi.

Ku rusengero hagomba kuba hazitiye, hubatse igipangu kirekire, hari imbuga ihagije, n' ikibuga gihagije, kugira ngo haramutse hagize ikibazo abantu babone aho gusohokera bahagarara.

Urusengero runini rwubatse neza rufite imbuga ihagije, n' aho guparika imodoka hahagije bifasha abakirisitu gusenga nta kibazo na kimwe bafite.

Insengero zituje ziibisabwa barazifunze, bafungura izindi nsengero nini zujuje ibisabwa byose. Aba kirisitu niho bajya gusenga n'abapasiteri babo.

Ahantu hubatse amayetaje ari mu Mujyi, biba ari byiza, yiza cyane, bituma Igihugu gisa neza, iyo ayo mayetaje ateye amarangi, haba ari heza, ayo mayetaje anasakaye.

Kororera amatungo mu bibuti bya kijyambere bitanga umusaruro uhagije, amatungo agakura vuba, kubera aba ari ahantu heza, bigatuma ba nyirayo babona amafaranga menshi, ntibagire ikibazo cy'ubukene.

Urusengero rwiza rugomba kuba rwubatse, rufite umunara muremure wubakishijwe n'amatafari ahiye, rufite n'abapasiteri babyigiye, ku buryo barigisha abakirisitu bagafashwa, ntihagire ubayobya mu nzira bajyamo ijya mu ijuru.

Ibigo by'abanyeshuri ni byiza cyane, ariko iyo biri ku muhanda biba byiza bifite igipangu, kugira ngo umunyeshuri ataba yajya muri kaburimbo bakamugonga, buri kigo kigomba gushyira igipangu ku ruzitiro rwo ku muhanda.

Umusekirite agomba gufata icyuma cyabugenewe agahagarika imodoka, akazibuza kujya aho zitemerewe kujya. Iyo ibiti biteye iruhande rwe bimuha umwuka mwiza, bigatuma ahumeka neza.

Inzu ndangamateka iba yubatse neza cyane iparitse imodoka imbere yubakishijwe amatafari ahiye, abantu bakunda kuyisura kubera ubwiza bwayo nyaburanga buhari.

Ibiro by'intara y'Amajyaruguru byubatse neza cyane, byubatse nka etaje, byanditsweho n'ibara ry'ubururu, ni byiza, abaturage barabikunda kubera kbakemurira ibibazo.

Abana b'abanyeshuri bakiri batoya ,abazungu babazanira ibipupe n'ibipirizo bakabipompa ,bakabigira imitako ,bagakoresha inama, bakishima basa neza ku maso.

Ama etaje ni ingirakamaro ku gihugu, agira ubucaca bwiza, abantu bakwicaramo aba ari meza, akurura ba mukerarugendo bakareba igihugu ubwiza gitatse kubera ama etage ari muri icyo gihugu.

Abapadiri iyo bari mu mutambagiro baba bambaye amakanzu y'umweru, bari kugenda ahantu hasa neza cyane, bari gusenga Imana ikabumva.

Imbuga nziza kandi ngari, igomba kuba irimo amapave, isa neza ikubuye, kugira ngo abayibona, babone ari ahantu heza cyane, buriwese yakwifuza.

Kaminuza zubatse neza zigomba kuba ari ama etaje, zifite imbuga na kaburimbo kugira ngo abanyeshuri bahagere neza, n'abanyamahanga baze kuhiga nta kibazo bafite, biyungure ubumenyi.

Imidugudu y'icyitegererezo iba yubatse neza, ari amazu menshi, afite amabati y'umutuku, asa n'amazu ameze kimwe asa, ku buryo utahazi wahayoba ugasubira aho wavuye, wari uzi ngo urakomeje iyo ugiye.

Urusengero rugomba kuba rwubatse neza ,ari runini cyane bihagije, rwubakishijwe amatafari ahiye n'amabati y'umutuku, abantu bakarwinjiramo bagasenga Imana imwe yo mu ijuru, na pasiteri akabasomera ijambo ry'Imana atari kubabeshya, bagafashwa ntakibazo bafite.

Abakatolike bakunda cyane nyina wa yezu ari we Bikiramariya, kubera ko yatubyariye yezu akatwitangira ku musaraba igorogota, turamukunda cyane yigiriye mu ijuru.

Mu kazi buri wese aba ari mu bintu bye, afite mashini imbere ye, ari gukora, ntihagire umuvangira, agakemura ibintu by'abaturage iyo ari gukora akazi ka leta, naho iyo ari gukora akazi gasanzwe yikorera, baramuhemba amafaranga menshi.

Uburezi bugomba kubaka amashuri menshi kubera ko abana b'Igihugu babaye benshi. Amazu iyo bari kuyubaka bayubakisha sima, bakayasakara bagashyiraho n'amatafari kugira ngo ahantu barikubaka habe ari heza.

Abakire bakunda kubaka amazu manini cyane, amazu afite amabati y'umutuku, aba ari meza cyane, iyo ateye irangi ry'umuhondo, n'iryumukara ku nzugi, abantu benshi barayakunda kuyasohokeramo, bumva ari byiza cyane, kuyasohokeramo.

Ibigo by'abana b'incuke bigomba kuba byubatseho iminyenga y'abana, kubera ko abana bakunda cyane iminyega, iraryoha ku bana. Abana b'incuke biga neza, iyo ku ishuri ryabo hubatseho iminyenga.

Umujyi iyo wubatse neza. Urimo amatara, wubatsemo amazu maremare. Bikurura bamukerarugendo baje kureba ubwiza bwawo. Bakishyura amafaranga ugakomeza gutera imbere.

Mu nama y'umudugudu no mu y'umurenge umuturage agomba gufata amikoro akavuga ikibazo cye n'uwo bagifitanye, abayobozi kugira ngo bagikemure akagaragaza n'icyo bapfuye.

Umugore iyo ari mu nama y'abaturage agomba kubahwa, akavuga ijambo, akababwira icyo yari agiye kubagezaho, bitonze, bakamutega amatwi, nta kibazo bafite.

Abaturage iyo bari mu mahugurwa, baba Bafite umuyobozi ubayoboye, akabayobora neza abaha impanuro, akabigisha uburyo babanamo neza n'abandi, akabigisha no kwiteza imbere, n'uburyo bashakamo amafaranga.

Umugabo agomba kuvugira muri mikoro, ahagaze neza yemye, ayifashe n'akaboko k'ibumoso, yambaye umupira umwegeye, afashe n'urupapuro ari gusomaho amagambo, abaturage na bo bamuteze amatwi.

Ababyeyi iyo bari mu nama bari kuganira baba bishimye cyane, bari kumwe n'abana babo bakabumvira inama bari kuganira, baba bari guseka nta kibazo bafite.

Abagabo bakunda kwambara ikositimu, n'ingofero, na congo, bagataha ubukwe, bakavuga imyivugo, bakavugira n'umugeni, barangiza bakamukwa, bakanamujyana.

Amagare atanga umunyenga， akoroshya urugendo， atuma abagenzi bagera iyo bagiye amahoro， bakagera iyo bagiye nta kibazo na kimwe bahuriye na cyo mu nzira.

Kaburimbo ziba zirimo godoro kugira ngo umuhanda ukomere, batwariramo moto bahetse n'abagenzi bakabageza iyo bagiye amahoro, nta kibazo na kimwe bagiriye mu nzira, bera umuhanda ari mwiza.

Muri Nyagatare, bagira ahantu ho gutegera amabisi, abantu baragenda bagatanga amafaranga, imodoka ikabatwara ikabajyana iyo barajya, bakagerayo amahoro nta kibazo bagira.

Abanyeshuri iyo bagiye kwinjira mu kigo, bazana ibikapu, bakabasaka, bakareba niba nta kintu kitemewe binjijemo, iyo basanze winjijemo ikintu kitemewe, barakikwaka, bakaguhana.

Abanyamaguru, ntabemerewe kugendera mu muhanda hagati, bagomba kwambukira muri zebula kurosingi kugira ngo batabagonga, bakaba bagira ikibazo, bakaba banakomereka, bakahaburira ubuzima bwabo.

Mu ruganda rw'amamodoka haba hari ama bisi menshi afite ibirahuri by'umukara, barayatwara, bakayagura, zirahenda cyane, kubera ko zinjiza akabayabo k'amafaranga ku muntu uyafite.

Ikigare kinini cya gaririyamoshi gikunda gutwara imizigo myinshi, abantu benshi bakunda kukinyonga. Iyo kiziritseho ibitebo, babitwaramo imyaka myinshi, bakajya kuyigurisha.

Ama bisi yo muri gare aba asa n'umweru, abantu bari ku yatega akabajyana iyo bagiye, bakayishyura amafaranga, abashoferi batwara bisi bagomba kuba bafite imbaraga, kugira ngo bageze abagenzi iyo bagiye amahoro.

Sitade amahoro igira ikibuga cyiza cyane. Ni sitade nziza y'u Rwanda yubatse neza. Abakinnyi bakunda kuyikiniramo kubera ko babona abafana benshi, bakabona n'amafaranga menshi.

Abamotari batwaraga abagenzi neza, bakabageza iyo bagiye amahoro, bakabambika amakasike kugira ngo nibakora impanuka, hatagira ukubita umutwe hasi, akaba yagira ikibazo.

Muri gare haba hari imodoka nyinshi n' urujyanuruza rw' abantu, umuntu uriyo agomba kuba yigengeseye, kugira ngo abajura batamwiba bakaba bamutwara ibintu yari afite mu mufuka, niyo mpamvu agomba kwigengesera.

Imodoka n'amamoto byoroshya urugendo bigatuma abagenzi bagera iyo bagiye amahoro, iyo ziparitse ahantu heza hateye n'ibiti birebire biba ari byiza cyane.

Umumotari iyo atwaye moto mu muhanda, agomba guha umugenzi kasike kugira ngo nibaramuka bakoze impanuka ataba yagira ikibazo, agakubita umutwe hasi ugasanga uramenetse, ni yo mpamvu agomba kumuha kasike.

Abagore na bo ntibagomba gusigara inyuma, bagomba gutinyuka bagakora, bakiga gutwara imodoka na marifani na moto, bikabafasha kwiteza imbere icyo bashaka cyose bakakibona.

Imodoka ya bisi ihora isa neza, iteye ibara ry'umweru. ihanaguye ibirahuri, bituma ikurura abakiriya bakaza ari benshi, ikabageza iyo bagiye.

Umumotari iyo ahetse igitoki ntabwo yemerewe gushyiraho imifuka ebyiri y'ibirayi, bishobora kubenuka ari mu muhanda ugasanga imodoka iramutubuye akahaburira ubuzima, n'ibyo yari ahetse bikangirika.

Iyo imodoka zabaye nkeya muri gare, haba hariyo urujya n'uruza rw'abantu, abantu baba babuze imodoka zo gutega, bakabyigana ari benshi, ntabwo ari byiza cyane, kubera ko haba hariyo n'abajura bari gushaka abo biba.

Abagore bambara ibitenge bakambariraho n'amapantaro, bakitega ibitambaro mu mutwe, barangiza bagafata amagare, bakajya kwikorera imizigo bakajyanira abana amafaranga bagahaha bagateka.

Ibimodoka by'ibidayi iyo byikoreye imizigo myinshi, bishobora gukora impanuka bikaba byagonga n'abantu, kubera ko biba bipakiye byinshi, biba ari bibi cyane ku modoka.

Abanyeshuri iyo bari kurira imodoka, bahetse ibikapu, bagiye ku ishuri, bituma bagera iyo bagiye ku ishuri vuba, ntibagirire ikibazo mu nzira, ntihagire uhutaza undi.

Umuntu iyo agiye kwinjira mu ndege, haba hari aba sekirite babiri bambaye imyenda y'icyatsi, bakamushyira sanitayiza ku ntoki, kugira ngo aho arakora atahasiga udukoko undi yahakora akandura indwara.

Ama etaje iyo ari kubakwa mu mujyi bayazitiza amabati , kugira ngo hatagira umujura uhanyura akiba ibikoresho by'abafundi, bakabura icyo bakoresha . Iyo etaje yubatse ku muhanda iba iri kugaragara neza.

Amabisi y'i Kigali atwara abagenzi, akabajyana mu zindi ntara zitandukanye, abagenzi batanga amafaranga, bakabageza iyo bagiye amahoro, nta kibazo na kimwe bagiriye mu nzira iyo bishyuye amafaranga yabo neza.

Abamotari baduha umunyenga bagatuma tugerayo tugiye amahoro nta kibazo tugiriye mu nzira na gitoya, n'abagenzi bakagenda kuri moto bitonze, batari kwihuta cyane.

Muri gare haba haparitseyo amamodoka menshi, abantu bajya kuyatega, akabatwara, bakishyura amafaranga, muri gare ni ahantu hanini cyane, imodoka zirahaparika, zikageza abaturage iyo bagiye.

Imodoka ntabwo igomba kwikorera ibintu byinshi birengeje igipimo n'uko ireshya, kubera ko biteza impanuka mu muhanda bikaba byahitana n'abantu, ibifuka biziritse imodoka bicitse byagwa ku yindi modoka, ugasanga ikoze impanuka.

Umunyenga wo mu bwato uraryoha cyane, iyo abantu bambaye amajire bari kugashya bituma bihuta bakagera iyo bagiye vuba ntibagire ikibazo cyo mu mazi.

Muri gare haba hari imodoka nyinshi n'abantu benshi. Abantu batanga amafaranga bakabatwara, bakabajyana mu zindi mirenge ;no mu tundi turere. Aho bashaka kugera bakabahageza.

I kanombe haba ikibuga cy'indege kinini cyane, giparikamo indege nziza cyane yitwa "Rwanda air" iyo ndege itwara abagenzi ikabajana mu bihugu bagiyemo bagatanga amafaranga bakagerayo amahoro.

Ritiko itwara abagenzi ikabajyana iyo bagiye bakayiha amafaranga, ikaba isa neza cyane kubera ko bayikorera amasuku, kugira ngo ijye mu muhanda nta kibazo ifite, bakareba ibintu byose ko biri mu mwanya wa byo.

Ibimodoka binini bitwara abagenzi bigakenera na risansi, bikabageza iyo bagiye, bakagenda nta kibazo bafite, bakagerayo amahoro, iyo bishyuye amafaranga.

Gukoresha ikoranabuhanga mu kwishyura amafaranga, bigabanya akajagari k'amafaranga, bikagabanya gukwirakwiza indwara za hato na hato, bikongera n'iterambere mu gihugu.

Imodoka ya ambiranse igira akamaro kanini cyane ku bitaro, kubera ko iyo murwayi arembeye mu rugo, ihita iza kumufata, ikamujyanana kwa muganga, abantu benshi barayikunda kubera ko igabanya urugendo rwo kuzajya kwa muganga.

Abanyarwanda bakunda gukina vore abazungu bakabatoza, baba bambaye iniforume y'ubururu, n'amakabutura y'umukara, abantu benshi bakunda gufana kubera ikipe zabo zikunda gutsinda.

Umugore wishimye agaragazwa no guseka. Kuba ari muri pisine bimutera ibyishimo. Abantu benshi bakunda kogera mu mazi y'ubururu, kubera ko ananura umubiri, agatuma wumva umeze neza.

Abakinnyi bagomba kwambara iniforume zisa. Bakambara umupira w'umutuku n'amapantaro y'umukara, bitonze bahagaze neza, bari guseka. Bigatuma bahora bishimye.

Amakipe iyo ari gukinira muri stade nziza ifite tapi y'icahatsi. Bikurura abafana ,bakaza ari benshi kubera ko nta kibazo cyo kubyigana baba bafite. Bazana amafaranga ahagije.

Abakurusi iyo bari kunyonga amagare yabo, abafana baba ari benshi buzuye imihanda, baje kureba uburyo bari gutwaramo amagare, ngo barebe uraba uwambere maze aba ariwe bafana cyane kurusha abandi,

Umuntu iyo yamenyereye gukora siporo aba yararambutse mu maguru. Ku buryo yatandaraza amaguru akarambuka yose wese, agafatana no hasi, ntihagire n'ikibazo agira mu maguru ye.

Iyo abakinnyi barangije gukina umupira, baricara bakifotoza, bakishimira intsinzi bagize, bakanywa, bakarya, bakishima kubera babahaye amafaranga menshi bitewe n'ibitego batsinze.

Umukinnyi wa basikete iyo agiye gutsinda igitego arirampa agasimbuka mu kirere, yarangiza agashyira umupira mu kantu kameze nk'agapaniye, abafana bagafana, barangiza gukina bakamuhemba amafaranga.

Umukino wa vole utanga akayabo k'amafaranga ku bantu bawukina no ku gihugu, ugaha ibyishimo abafana bawufana bakiteza imbere.

Umukinyi iyo agiye gutera icumu ararifora cyane yarangiza agatandaraza kugira ngo najya gutera ahamye neza aho agiye gutera, bimuha kumenya icyerekezo akamenya aho aratera.

Abakinnyi ba basiketi iyo bari gukina mu kibuga, baba bambaye imyenda y'umuhondo, n'udukabutura tw'umukara, baba ari barebare cyane, kugira batsinde neza iyindi kipe bari gukina.

Umukobwa iyo yatinyutse agakora, agakina basiketi bimuha amafaranga akagira ubuzima bwiza, agahora yishimye ntiyigunge mu bandi.

Umupira bakinisha vole uba ufite ibara risa n'umuhondo n'irindi ry'ubururu. Kugira ngo widunde cyane uba urimo umwuka, bakawukina banezerewe.

Ikibuga cyubatswe neza cyane, gituma abakinnyi bakina bisanzuye, bityo bigatuma abakinnyi bakina badakomeretsanya nta n'umwe usitaza uwundi, bagakina bisanzuye neza.

abakurusi banyonga amagare bafatiyeho, bagakatira mu ikorosi rya Rwamagana kugira ngo barebe ko haravamo uraba uwa mbere, agatsindira igikombe, bakamuha n'amafaranga akiteza imbere.

Imodoka zikoreshwa mu masiganwa zigomba gufatiraho zigira umuriro mwinshi, abantu bazitwara bagomba kuba bambaye ibikasike, kugira ngo nigira impanuka batagira ikibazo muri iyo modoka ,bakaba bapfa.

Abakinnyi ba basikete baba ari barebare cyane, abakobwa bakunda kuba ari bikara bakina neza cyane, bakabona amafaranga bikabafasha mu kwiteza imbere bakagura ibyo bakeneye byose, nta kibazo bafite mu mafaranga bakoreye.

Umugabo iyo yambaye imyenda ya siporo， afashe umupira mu kiganza， arawufata akawujugunyira bagenzi be， kugira ngo na bo bakine， aba yabize icyuya cyane， bigatuma agorora umubiri we.

Gukina umupira ni byiza cyane, bifasha abakinnyi mu kunanura amaguru, no kwiteza imbere.

Pisine igira amazi y'ubururu， abantu bayogeramo bakagira uruhu rwiza nta kibazo bafite. Iyo hari n'amatara ari kumurikamo，biba bisa neza.

Idarapo ry'igihugu rigira amabara meza cyane, ubururu, umuhondo n'icyatsi, riba rifite n'izuba mu bururu, abantu benshi babona ari byiza, kubera ko rigaragaza igihugu cyiza cy' u Rwanda.

Umuzungu iyo atwaye igare agiye kujya mu makurusi, agomba kuba yambaye igikasike, ku buryo nagwa hasi atarazana igisebe, akaba yagira ikibazo akagira impanuka.

Abagabo b'abasore bakunda gukina vore kubera ko bibaha amafaranga, bigatuma bakora siporo bakagorora umubiri, vore ni nziza cyane inanura amaboko, umuntu wese uyikinnye ahora akomeye.

Uyu muhanda ba nyirawo ko batawukora? Uratose urimo ibiziba, umugabo ari kugenderamo yabuze aho anyura, ukwiye gukorerwa umuganda. Bakawushyiramo kaburimbo.

umuhanda wa kaburimbo ugomba kugira aho abanyamaguru bagomba kunyura kugira ngo hatagira ubagonga , cyangwa igare ngo ribagonge bagomba kuba bafite ahabo habugenewe bakagenda bigengeseye batari mu muhanda.

Imodoka zikunda kugendera mu muhanda wa kaburimbo, kubera ko utuma zidakora impanuka zikageza abaturage iyo bagiye amahoro, ntanumwe ugize ikibazo mu nzira.

Umuhanda wa kaburimbo uba wubatse neza cyane. Umuntu agenda yisanzuye. Bityo bigatuma yanakwifotorezamo igihe abishakiye kubera ko abanyamaguru bagendagamo nabo mu ruhande rwabo.

Umuhanda wa kaburimbo ugomba gukorerwa amasuku, ugakuburwa, ugakurwamo ibyondo kugira ngo imodoka itaba yaba ihegamamo, ikabura uko igenda.

Imbuga nziza igomba kuba itarimo icyondo, isa neza, ikubuye, iyo imbuga y'iwawe wayikubuye, abantu babona hasa neza, bakaza kugusura nta kibazo.